Amashuri y'incuke araboneka mu gihugu, abana bayize bakurana ubumenyi, byongera ireme ry'uburezi, bigatanga umusaruro.

Siporo ni nziza ku buzima bw'umuntu. Ikorerwa mu rugo cyangwa ku bibuga byabugenewe. Abana barayikora ndetse n'abakuru. Izana amafaranga ku babigize umwuga.

Kugaburira abana ku ishuri ni byiza byatumye abana baguma mu mashuri bariga, bituma badatinda gukererwa mu masomo bakiga neza nta kibazo bafite kubera yuko bagereyo igihe bikaba byiza.

Mu gihugu cyacu uburezi bwateye imbere, abantu bariga, amashuri y'inshuke, abanza, ayisumbuye hamwe na kaminuza bigatuma tujijuka.

Mu Gihugu cyacu uburezi bwateye imbere, abana b'ingeri zose bariga mu mashuri atandukanye: ay'incuke, abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza mu kunguka ubumenyi.